Amapave meza n'inzu nziza, iteye irange ryiza ndetse ifasha abantu mu gucuruza kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo, ifasha n'abaguzi kuza guhahira hafi.

Mu bishushanyo byinshi bitandukanye harimo umuntu, imodoka, intare bifasha abanyeshuri biga mu mashuri abanza kumenya ibidukikije ndetse no kumenya akamaro k'ibyo bidufitiye.

Udukinisho tw'abana turi mu mabara atandukanye harimo umweru, umutuku, orange, umukara, n'icyatsi n'ubururu dufasha abana mu gukina, kwishimisha ndetse bikabaruhura no mu mutwe.

Ibishushanyo bishushanyijeho abantu, abana, abagore ndetse n'intore zabyinaga umuco nyarwanda ndetse hakaba hashushanyijeho n'ibindi bintu harimo mazu ndetse asa neza.

Abana bari kumwe n'ababyeyi babo, baje mu irerero aho babafata neza, bakabatekera, bakabaha ibyo kurya, bakabaha ibyo kunywa, harimo nk'igikoma ndetse bakabarera neza kugira ngo bazakure bavemo abantu bafite ubuzima buzima.

Igishushanyo gishushanyije ku gikuta giteye irangi ry'umweru, ni igishushanyo k'inka gifasha abana b'abanyeshuri mu kwiga bagasobanukirwa ibidukikije ndetse bakamenya n'uburyo bibayeho.

Igikuta gishushanyijeho ikarita y'u Rwanda, Iburasirazuba ni abara ry'icyatsi, hagati mu mujyi wa Kigali ni ibara ry'umweru, mu Majyaruguru umuhondo, mu Majyepfo ubururu, mu Burengerazuba ni icyatsi kitari kibisi cyane ndetse hari n'itoroshi, hakaba hariho n'umutima.

Icyumba kirimo ibitanda bifite amabara atukura, gishashe neza gisa naho kiryamamo abantu benshi, harimo n'udushushanyo tw'abana, biragagare ko ari abana bakunda kuraramo iyo bari kwa muganga.

Ikaramu abanyeshuri bifashisha bari kwiga, zibafasha mu gufata ubumenyi, harimo gushushanya, kwiga imibare, ikinyarwanda ndetse n'andi masomo kugira ngo baziteze imbere ndetse bateze imbere n'imiryango yabo.

Igishushanyo gishushanyije ku gikuta, giteye irangi ry'umuhondo ,kigaragaza amagufa y'umuntu ndetse n'ibice by'umubiri by'umuntu, bifasha abanyeshuri kwiga, bamenya amagufawa abagize, bikanabajijura ndetse bakiyungura ubumenyi.

Igishushanyo cy'akagare giteye irangi ry'umutuku ndetse gifite n'amahembe meza, gishushanyije neza gifasha abana batoya kwishima iyo bakibonye ndetse bakumva baranezerewe, baranatuje.

Ibishushanyo biriho abarimu bambaye mateburiya y'umweru, n'abanyeshuri b'abakobwa bambaye iniforume y'ubururu, n'abahungu bambaye iniforume ya kake ndetse basa n'aho bishimye.

Inziza iteye umucanga ndetse n'icyapa kicyiza kigaragaza uburyo ishuri rikwiye kubaho ndetse n'icyo ishuri rikora, n'icyerekezo cy'ishuri rifasha abanyeshuri kumenya ibyo bagomba kwitaho.

Igishushanyo cy'igishyimbo gishushanyije ku gikuta cy'inzu ndetse bigaragaza uburyo igishyimbo gikura n'ububuryo bifata iminsi kugira gikure, bifasha abanyeshuri mu kwiga ndetse bakamenya...

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru uri kwigisha abanyeshuri kwandika, gusoma ndetse n'ibindi bintu, harimo nk’imibare, bituma biyongera ubwenge ndetse bakagira ubumenyi buhagije.

Icyumba kiza a kirimo akabati keza, kikaba kirimo ibikoresho abanyeshuri bifashisha bari gushushanya by'amabara atandukanye harimo amabara y'umutuku, icyatsi, umuhondo umukara n'umweru.

Ibyumba by'amashuri byubatse neza ndetse n'inyubako igeretse kabiri, ifasha abanyeshuri kwiga ndetse bahakura ubumenyi bigatuma bongera ubwenge bwabo kugira ngo bategure ejo heza habo hazaza.

Ikigo cy'amashuri gifite ikibuga cya basiketi cyiza ndetse cyubatse neza, gisakaje amabati atukura, hariho n'aho abantu baza kwicara mu gihe bari kureba basiketi kugira ngo bishime ndetse banezererwe.

Igikoresho kiriho ibintu byinshi bitandukanye hariho imibare, hashushanyijeho udufi ndetse hari n'amashusho atandukanye, hari mpande eshatu, mpande enye ndetse n'uruziga, bifasha abanyeshuri kwiga ndetse bakiyungura ubumenyi.

Abanyeshuri babyukiye mu kibuga baje kureba umupira w'intoki Basket, ndetse ibafasha kwinezeza no kwishimisha ndetse bikabafasha no kuruhuka bakumva bameze neza.

Icyapa kiza kiri ku gikuta cy'amabuye ndetse kegereye n'inzu yubakisha amatafari ahiye irimo n'amadirisha y'ibirahure hari n'abaturage babiri ndetse ni inzu nziza yubatse neza.

Ibishushanyo byiza bibereye ijisho, bifasha abana kwiga ibintu bidukikije cyangwa se ibintu duhorana buri munsi, harimo nk'ingofero, umuneke, inkweto, isahani, ijipo, uturabo, radiyo n'amapantaro.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha ku ishuri bashaka ubumenyi ndetse harimo n'amakaramu y'ibiti, amakaye n'ibitabo ndetse n'utundi dukoresho turimo tumeze nka karikatirisi.

Igishushanyo gishushanyijeho ibikoresho bitandukanye harimo imakasi, ikaramu z'ibiti ndetse n'amakureri, hariho n'urupapuro bifasha abanyeshuri mu gushushanya ndetse bikanabafasha mu kwiyungura ubumenyi.

shuri ryiza ryuyubakisha amatafarihiye, ndetse hafi y'aho hari n'amazu meza asakaje amabati y'ubururu ateye amarangi y'umweru, ndetse bafite n'ikibuga cyiza kibafasha mu gukina agapira cyangwa se n'indi mikino.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha bari kwiga imibare arimo: kompa, agasongozo, agatsibisho, irate ndetse n'andi marati y'amoko yose, bibafasha mu kwiga kandi bati.

Amakaramu, amakaye y'ibiti, ndetse n'inyajwi n'ingombajwi zikoze nkapalasitike, bifasha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, gushushanya ndetse no gutona ibintu bashushanyije.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse ikaba ishakaje n'amabati y'ubururu, ikaba irimo inzugi n'amadirisha y'ubururu, imbere yayo hari kandagira ukarabe, ifasha abantu mu gukaraba, kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano ndetse bafite n'indabo z'umutuku, umweruru n'umuhondo, baje mu gikorwaba cyo gushyingura ndetse hari na padiri waje kugisoza.

Ni mu ishuri ari kwigisha abanyeshuri uburyo bagomba kwiyitaho ndetse no kubigisha ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo bazagira ubumenyi buhagije bamenye uburyo bibeshaho.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye bamwe bambaye umukara n'umweru, abandi bambaye ijipo igiye gusa umweru, ndetse n'ishati igiye gusa ubururu, ndetse bafasha kumva batekanye bisa.

Ikigo cy'amashuri kiza ,kinini, gikikijwe n'ibyuma biteye irangi ritukura ndetse cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gisakajwe amabati y'ubururu n'amadirisha ni ubururu gikikijwe n'ibiti byiza bisa neza.

Inzu igeretse kabiri, isa neza, iteye irangi ry'umuhondo, yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse ituma habaho gusabana kuza kuruhukiramo ndetse wasanga ari n'ishuri, ry'abana bakoresha baje kwiga.

Abaturage babyukiye kwa muganga ndetse bambaye bamwe bambaye n'amajire bigaragako ari n'abakozi bari mu cyumba cyiza, giteye irangi ry'umweru, cyirimo akabati, kirimo intebe zisa neza ndetse kinameze neza.

Abanyeshuri abakobwa n'abahungu bambaye iniforome nziza, bahagaze mu kibuga kirekire ndetse n'iyuma yaboho hari ibitaka, n'ahandi hubatse amazu meza, amazu asakaje amabati y'umweru ndetse yubakishijwe amatafarihiye.

Icyumba cyiza cyometseho amakaro y'umweru ndetse kiriho ikintu kimeze nk'ihembe ndetse na afurika n'ikindi gikoresho, kirimo ameza ariho umwenda w'ubururu ndetse n'intebe nziza y'igiti, bifasha abantu kwicara ndetse no kuza kureba ibihari.

Ibumba ni itaka riba riri mu gishanga rifasha abaturage mu gukora inkono, imbabura n'ibindi bikoresho bikozwe mu ibumba, bibafasha mu kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse no kubona ibikoresho byo mu rugo.

Icyumba kirimo intebe nziza z'ubururu ndetse harimo n'ibikoresho by'imbaho, byafasha mu gukora izindi ntebe ndetse bikaba byafasha mu gukora neza ndetse n'ababikoresha bagatera imbere bagateza imbere n'imiryango yabo.

Abanyeshuri benshi cyane barangije kaminuza bambaye imyambaro y'uko barangije ndetse basa n'aho bishimye bahawe ubumenyi, bagiye gusohoka ku isoko ry'umurimo kugira ngo bateze imbere igihugu na bo biteze imbere.

Ububumbyi ni igikorwa cyo kubumba inkono, ndetse n'ibindi bikoresho wabifashisha babyifashishije kera mu gihe babaga bari guteka, kuvoma se, cyangwa se no gushigisha umusururu, cyangwa se ikigage.

Igishushanyo kiriho amabara atandukanye, ubururu, umutuku, oranje, ndetse ni n'uruziga rwiza rushushanyije ahantu h'ibara ry'umweru, rufasha abantu kwiga ndetse no kumenya, bikabafasha no kumva bafite ubumenyi.

Abanyeshuri bambaye inifomu nziza, bicaye neza, basa naho bari guseka, bari mu cyumba giteye irangi ry'umweru ndetse kirimo n'amarido meza, baje gushaka ubumenyi kugira ngo babone uburyo biteza imbere bateze n'imbere n'Igihugu.

Ikayi yanditsemo ifasha abanyeshuri kwiga ndetse no gusubira mu byo bize bigatuma bongera ubumenyi ndetse bikabafasha no kongera ubwenge mu gihe banditse ndetse bakabisubiramo.

Umugabo wambaye ishati itukura irimo n'imirongo y'umweru n'ipantaro y'umukara, yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu ahagaze imbere y'abanyeshuri ari kubigisha ndetse bari mu cyumba cyiza kirimo intebe nziza, kikaba kirimo ameza na mudasobwa, kikaba kirimo n'amarido meza.

Igikoresho gikozwe mu ibumba ryiza ndetse rifasha abantu babikora kubona amafaranga abatunga ndetse no mu kwiteza imbere, bakabona amafaranga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu babiri bahagaze imbere y'abagabo n'abagore mu cyumba kiza kirimo ameza meza, aho bari kuganira ku buryo bakwita ku burere bw'abanyeshuri, ndetse bari mu cyumba giteye irangi ry'umweru kiza gisa neza.

Igikuta cyiza kiriho imitako myiza y'amabara meza cyegeranye n'inzu nziza, ikingishije inzugi z'ibyuma ndetse n'ibirahure byiza, bifasha abazikora kwinjiza amafaranga no guteza imiryango yabo imbere.

Icyumba gitetsemo intebe zisa neza zifite ibara ry'ubururu, zufasha abantu kuza kwicara ndetse bikaba byabafasha no kwandika, kuko hariho ikintu kimeze nk'akameza cyafasha umuntu kwandikiraho.

Igishushanyo gishushanyijeho ibiti by'imiyenzi, ndetse n'ibindi biti bitandukanye, hashushanyijweho n'amazu afite uburyo yubatse neza, ndetse harimo n'ibyatsi byiza, ndetse iri no mu gikuta gisa neza.

Abanyeshuri bari gukora ikizamini bambaye amataburiya y'umweru n'ugupfukamunwa, bari gukora kugira ngo babone uko bakomeza mu ishuri rikurikiyeho cyangwa se babone uko bajya mu gihembwe gikurikiyeho, bibafasha mu kugira ngo babone ubwenge bwabo uko bungana cyangwa se ubumenyi bwabo uko bungana.

Inyubako nziza, irimo imbaho zikoze igitanda cyiza, gifasha abantu kukiryamaho bari kuruhuka ndetse kikanabafasha, kumererwa neza kandi bituma bumva baruhutse.

Icyapa cyanditseho UR university of Rwanda kaminuza y'u rwanda cyanditswe n'andi magambo yo mu cyongereza ngo impawering UR student the community to solve the probrem ruga abanyeshuri ba...